Amazi ni ikintu cy'ingenzi kuko atwikiriye ahangana na mirongo irindwi ku ijana by'ubutaka bwo kuri iyi si, akaba agize mirongo itandatu ku ijana by'umubiri w'umuntu, afite umumaro ugiye utandukanye aho adufasha kubona amashanyarazi, mu kuhira imyaka, mu gufura, mu kunywa, mu guteka, mu gukoropa n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko budufasha uburyo dutekereza, dukemuramo ibibazo, dusabana n'abandi ndetse tuniteza imbere. Ni byiza kwirinda ibiyobyabwenge, itabi n'inzoga, ugakora siporo, ukaganira n'abandi kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza no kumererwa neza.